Pisine nziza ndetse n'ibiti bizaza n'amahumbezi, aho hantu haragaragara kandi ubusitani bwiza bugezweho.

Abantu ndetse n'urujya n'uruza, imodoka, bamwe baricaye, abandi barunamye, bamwe baragenda , abandi baratambuka, birasa nkaho ari mu isoko, abantu baza guhahira ndetse no gucuruza ibintu bitandukanye.

Abagabo babiri ,umwe yambaye ishati icaye amaboko, undi yambaye ingofero y'urugara ndetse n'ishati y'amaboko, ipantaro y'ubururu ndetse na bote n'inkoni isa nk'imwegetseho, bisa nk'aho bari kunyura ahantu ku isoko.